Ni ahantu hari abantu benshi bagiye batandukanye; abagore n'abagabo, bari bavuye mu nama yari igiye kuvuga ku buzima n'imibereho ya buri munsi igiye itandukanye, y'isi yose.

Ni hantu hari abantu bagiye batandukanye, harimo abagabo n'abagore cyangwa abakobwa n'abasore bakaba bambaye impuzankano bambara, mu gihe bari mu vuzi cyangwa kwa muganga.

Ni ahantu hari icyumba, hakaba harimo abantu, bageze kuri batanu, abagabo batatu n'abagore babiri, abagabo ari abirabura abagore ari abazungu, bakaba bameze nk'abari mu nama, imbere yabo akaba ari amakayi n'uducupa tw'amazi.

Ni icyumba kinini kirimo abantu benshi bagiye batandukanye abadamu, aba mama n'abagabo, hakaba hari umuntu uhagaze hagati yabo wambaye itaburiya y'umweru umeze nk'aho arimo kubigisha cyangwa kubahugura cyangwa kubaha inama zijyanye n'ubuzima bwa buri munsi.

Ni hantu hari icyumba hakaba harimo abantu batatu, babiri bakaba bafite bambaye imyenda ikoreshwa kwa muganga n'agapfukamunwa n'akandi mu mutwe, imbere yabo hakaba hari undi muntu umwe muri bo arimo gupima umuvuduko w'amaraso n'uko umutima ukora.

Ahantu hari abantu batandukanye, umudamu akaba ateruye umwana, imbere yaho hakaba hari umugabo ushobora kuba ari umuganga, akaba afite urushinge mu ntoki ari kumuteramo umuti.

Ahantu hari umwana w'umuhungu, ufite agakombe mu ntoki urimo kuvoma ahantu hari ikigega, wagira ngo arimo kuvomamo nk'amazi yo kunywa cyangwa koga.

Ni icyegeranyo bakoze cyangwa ubushakashatsi bugaragaza ukuntu mu myaka igiye itandukanye guhera bibiri na cumi n'umunani kugeza bibiri na makumyabiri na rimwe uko uburinganire bwagiye buzamuka mu myaka itandukanye.

Ni ahantu hari abana batatu, bakaba bahagaze ahantu harimo ikiyaga, bakaba bafite ibikoresho nk'idobo, barimo kuvomesha ayo mazi bose.

Ahantu hari abantu batatu, abadamu babiri n'umugabo umwe, bakaba bari ahantu hubatswe ivomero, bakaba baje kuvoma bafite ibikoresho bita amajerekani bavomesha.

Aha ni ahantu hari nko mu giturange ubu ni ubwoko bakunda ni uburyo bakunda gukoresha mu gihe barangije koza amasahani bakaba bafite akantu bita agatanda bagaterekaho amasahani kugira ngo izuba riyakubite haveho mikorobe zose.

Ni ahantu hari ibiti, akaba ari n'ubutayu cyane, hakaba hari n'umwana w'umuhungu uri ahantu, waje gukaraba intoki ndetse no gutora amazi meza ku ivomero babubakiye.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi bagiye batandukanye abagabo n'abagore, abirabura ndetse n'abazungu, kikaba ari icyumba barimo gukoreramo inama ivuga ku bintu runaka bitandukanye n'ubuzima n'ibindi byinshi.

Ni ahantu hari umwana uri imbere y'intebe iteretseho indobo, ushaka kwerekana ko gukaraba intoki n'amazi meza.

Ni ahantu mu giturage hari abantu benshi biganjemo abagabo n'abana batoya bakaba barimo gukoresha ivomero risa nk'a rishyashya bari bakoreye.

Ni umudamu cyangwa umukobwa w'umuzungu, bakaba bari bari mu nama y'isi yose, yavugaga ku by'ubuzima n'imibereho.

Ni ahantu hari abana benshi, bakaba bishimiye ko babubakiye ivomero, bagakuramo amazi meza bakoresha mu buzima bwa buri munsi, kunywa, guteka, gukaraba n'ibindi bikorwa byinshi bakoreshamo amazi meza.

Ni ahantu hari icyumba akaba arimo abantu benshi batandukanye higanjemo abadamu cyangwa abamama hakaba hari uteruye mwana yaje kuvuza.

Ni ikigonderabuzima hakaba imbere yaho hari abantu bicaye bategereje ubufasha cyangwa kwakirwa mu gihe umuganga bahamagaye ngo babasuzume indwara zigiye zitandukanye.

Aha hari mama uri imbere, wambaye ibitenge n'igitambaro n'amarinete, inyuma yiwe hari abana benshi batandukanye, harimo abakobwa n'abahungu bishimye.

Ni ahantu hari umudamu cyangwa umukobwa uri kumwe n'abana babiri, bakaba bishimye ko babubakiye ivomero bavomaho amazi meza, bakaba bakoresha ibikoresho bigiye bitandukanye mu kuvoma.

Ni ahantu hari umuntu ufite ijage mu ntoki akaba ari kwigisha umwana gukaraba intoki n'amazi meza ndetse n'isabune, kugira ngo turwanye indwara zituruka ku mwanda cyane cyane iziza mu ntoki.

Ni ahantu hari abantu benshi bagiye batandukanye, hakaba hari umugabo wambayeho ikigo gishinzwe gufasha abantu mu mibereho myiza ya buri munsi ku isi, akaba ari umugabo uri kuganiriza umwana ndetse n'abandi.

Ni aantu hari abamama ndetse n'abadamu n'abagabo bakaba bambaye impuzankano zisa icyatsi n'imipira ya orange bakaba akenshi bakora ibikorwa byo gufasha abantu mu buvuzi bwo kwegera abaturage hafi bakunze kwita abajyanama b'ubuzima.

Aha akaba ari abagabo n'abagore bagiye batandukanye, bakaba bambaye imipira benshi isa umutuku cyangwa oranje, hakaba hari imbere yabo hari abana bafite inkongoro n'ibikombe barimo kubaha amata.

N'icyumba kirimo abana n'abandi bantu batandukanye, hakaba harimo umuganga, hakaba harimo gutera urukingo umwana w'umukobwa wicaye n'abandi benshi barindiriye ko babatera inkingo.

Ni ahantu imbere y'ikigo hakaba hari abana benshi bishimye, bakaba bafite abantu bari inyuma yabo b'abaterankunga baje kubafasha, kubaganiriza ndetse no kubafasha iby'ubuzima bwa buri munsi.

Ni ahantu hari abana babiri b'abahungu bakaba bari gukaraba amazi meza babakoreye yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi nko koga, kunywa ndetse no guteka.

Ni ahantu hari ibyatsi, imbere hakaba hari amazi atemba, hakaba hari umuntu wateze amaboko yoga, hakaba hari itiyo ayo mazi arimo guturukamo, amazi akaba ari isoko.

Ni umugabo uri ahantu, wicaye ku ibido bakoresha mu kuvoma, akaba yishimiye ko babubakiye ivomero ribaha amazi meza, bakoresha mu buzima bwa buri munsi.

Aha hakaba ari ahantu hari abana bahagaze b'abahungu baje kuvoma, umwe akaba arimo kubafasha mu gukoresha ivomero riri ahantu barimo kuvomera.

Ni umubyeyi uhetse umwana, akaba ari no mu wundi murimo wo gusukura ibikoresho bakoresha mu gihe baje mu gufata amazi meza ku ivomero.

Ni ahantu hari ibitaro akaba ari abantu bareberera ubuzima ku isi hose, bakaba barimo gupakira imiti igiye itandukanye yo gufasha abantu barwaye indwara zigiye zitandukanye.

Ni ahantu abantu benshi bari, bagiye batandukanye. Harimo abamama, abagabo ndetse n'abana benshi, bafite utubido twinshi muntoki. Bameze nk'aho baje gutaha ivomero rishyashya bari babubakiye.

Ni ahantu hari icyumba hakaba harimo abadamu babiri, umwe akaba ari umuganga undi akaba ari umubyeyi ufite akana, akaba umuganga arimo kugaha imiti ivura uburwayi runaka.

Ni ahantu hari abantu bagiye batandukanye, abagore n'abagabo bakaba barimo guterura imifuka bayivana ahantu hamwe bayijyana ahandi, ikaba iririmo ibiribwa cyangwa ibyo bakoresha mu buzima bwa buri munsi.

Akaba ari ahantu hari urugo hari umugabo uri kumwe n'umugore n'umwana akaba ari umugabo waje ari umujyanama w'ubuzima akaba yaje kubaganiriza ko bakitwara neza mu mibereho ya buri munsi kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Ahatu hari icyumba kinini, kikaba kirimo ibikoresho byinshi. Harimo ama televiziyo hakaba n'ibindi byuma biri hasi bimeze nk'intebe n'akameza, gakoresha m'uburyo bwo kwivuza cyangwa kuvura abantu.

Nta hantu hari abaganga akabari n'ababyeyi bafite abana babo bigaragara ko bari baje mu kubakingira indwara runaka zigiye zitandukanyekanya

Kikaba ari icyumba kirimo abantu benshi batandukanye, abagabo n'abagore, bamwe bakaba bicaye abandi bahagaze, umwe akaba ahagaze hagati yabo ameze nk'aho hari icyo ari kubigisha cyangwa ari kubabwira.

Ni ahantu hari abana bane b'abahungu, bakaba barimo gukoresha ibikoresho bakoresha bifashisha mu kuvoma amazi, rikaba ari ivomero bari barabubakiye.

Ni ahantu ku musozi hari ibiti byinshi, hakaba hari umumama cyangwa umukecuru uri ahantu, akabari aho bubatse ivomero ry'amazi meza, ari kuyavomesha mu ijerekani.

Ni ahantutu mu kigo cy'amashuri, hari abana batandukanye, hakaba hari umwana w'umukobwa uri ahantu hari indobo n'akabase, akaba arimo gukaraba intoki kugira ngo arwanye indwara zose z'umwanda cyane cyane izituruka mu ntoki.

Ni ahantu hubatse, hakaba hari ibiti n'ibyatsi, hakaba hari n'utwana tw'udukobwa twishimye, turi gukaraba intoki zabo n'amazi meza ndetse n'isabune, bakaba bishimiye ko bafite amazi kandi bakoresha mu buzima bwa buri munsi.

Abantu benshi bagiye batandukanye harimo abagore n'abagabo, bicaye ahantu mu cyumba kimwe bafite amakayi bameze nk'aho imbere yabo hari umuntu urimo kubigisha.

Inzu irimo abantu benshi bagiye batandukanye bavanze abagore n'abagabo, bakaba bari baje mu nama ivuga mu kwimakaza ubuzima ndetse n'imibereho myiza.

Ni abantu bagiye batandukanye hakaba higanjemo abasore ndetse n'abakobwa, bahagaze ahantu bambaye impuzankano zambarwa n'abaganga ndetse n'abita ku barwayi mu by'ubuzima.

Ni ahantu hari ihema bari bateye hakaba imbere yayo hari hari abantu benshi bagiye batandukanye abagore n'abagabo harimo n'ababyeyi bari bari kwiga ndetse bari no mu nama yiga ku buzima n'imibereho ya buri munsi.

Ahantu hari abantu benshi abiganjemo akaba ari aba mama, na kana kamwe, kaba mbaye niforme bigaragaza ko ari nk'umujyanama w'ubuzima waje kure gupima abana.

Ni ahantu hari umwana ufite igikombe mu ntoki, hakaba hubatswe ivomero, akaba ameze nk'aho yishimye kuko ari kuvoma amazi meza babakoreye.

Ahantu hari icyumba harimo abagabo n'abagore benshi, imbere yabo hakaba hari ameza n'intebe bicayemo hakaba imbere yabo hateretse udukombe tw'amazi n'ibirahure, bameze nk'aho bari mu nama cyangwa hari ibyo barimo kwiga.

Ni ahantu hari abantu batandukanye, abagore n'abagabo ndetse n'abana, bakaba bari gukoresha ivomero rishyashya bari babakoreye, bakuraho amazi meza bifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Abagabo n'abagore bari ahantu mu cyumba, bagiye batandukanye, bakaba wagira ngo bari nko mu nama cyangwa hari ibyo barimo kwiga byinshi.

Abagabo n'abagore batandukanye bishimye kandi bigaragara ko hari abaforomo, barimo barashimira umuntu w'umuterankunga, waba warabafashije mu gufungura ikigo nderabuzima cya Mayange.

Ni ahantu hari ikigo cy'amashuri hakaba hari abana b'abahungu ndetse n'abakobwa bakaba bafite ibikoresho baje kwifashisha mu kuvoma amazi meza ndetse bakaba barimo no gukaraba mu ntoki bakoresheje ayo mazi meza.

Ni ahantu hari abantu benshi batandukanye, abagore n'abagabo, bambaye imyenda y'imipira isa, bameze nk'aho bari mu gikorwa cyiza cyo gutera ibiti, n'imboga n'imbuto mu karima k'igikoni.

Ni ikiranganengo kirimo umugore n'umwana, akaba ari ikirangantego kigaragaza umuryango w'isi yose wita ku buzima bwa buri munsi, harimo ubw'umwana, ubw'umugore n'abandi bose.

Ahantu hari abagore n'abagabo benshi, bikaba bigaragara ko ari ahantu bavomera amazi, hakaba imbere yabo hari ibikoresho bigiye bitandukanye bakoresha mu gihe barimo kuvoma amazi.

Akaba ari icyumba kirimo abagabo babiri bicaye, imbere yabo hakaba hari ameza ateretseho ibitabo n'uducupa turimo amazi, bigaragara ko ari minisiteri ishinzwe ubuzima muri Sudani y'amajyepfo.

Ni ihema riteye ahantu hakaba hicayemo abantu benshi batandukanye abagabo n'abagore bamwe bateruye n'abana, imbere yabo hakaba hari umugabo umeze nk' urimo kubabwira ijambo cyangwa abahugura cyangwa abigisha.

Ni ahantu hari abantu benshi bagiye batandukanye abagore n'abagabo hakaba harimo n'abazungu n'abirabura, bakaba bari bavuye mu nama yo kwiga ku bijyanye n'igwingira no kwita ku buzima bw'umubyeyi igihe atwite kugeza abyaye, kugira ngo barinde abana babo igwingira.

Ni ahantu hari abaganga babiri n'umumama ufite umwana urwaye, abaganga bakaba bari kumuha ubufasha kugira ngo akire uburwayi yaba afite.

Ahantu hari abana benshi n'umugore, bakaba barimo kugerageza gukoresha ivomero, imbere yaryo hari ibikoresho bitandukanye byo kuvomeramo amazi.

Abagabo n'abagore bagiye batandukanye, bari ahantu bahagaze, hakaba harimo abirabura n'abazungu, benshi bakaba bambaye impuzankano zisa ubururu bwerurutse ,bigaragara ko bari baje ahantu hari ibitaro.

Abana batandukanye, abakobwa n'abahungu bicaye mu ntebe, imbere yabo hakaba hateretse amasahani ariho ibiryo, bigaragara ko bari mu ishuri kuko bambaye impuzankano, bakaba bicaye ahantu hari n'ikibaho cyanditseho ibyo bize.

Ni abantu mu kigo cy'amashuri, hakaba hari abana bafite ibikombe, bakaba babateretse ikintu kinini kirimo igikoma cyo kunywa, kugira ngo bagire intungamubiri n'ubuzima bwiza.

Umuntu wari umumama uteruye umwana, akaba afite igikoresho bifashisha, mu gihe umuntu aje kuvoma amazi ku ivomero, akaba ari amazi meza umuntu yifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Ni ahantu hari abana n'abandi bantu bakuru bakabaye baje bafite ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu gihe baje gutora cyangwa kuvoma amazi yo kwifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Umugabo uri ahantu, w'umwirabura, asa nkaho yishimye aseka, yicaye ahantu ku ijerekani, akaba ameze nkaho yaje ku ivomero, aje gufata amazi meza, afite n'igikoresho cyo kuyatwaramo.

Ni igihe muri kovide akaba ari umudamu uri kwigisha umwana we uko bakaraba intoki n'isabune n'amazi meza, akaba ari uburyo bwari bwarashyizweho bwo kwirinda indwara ya kovide cumi n'icyenda.

Iki ni ikirangantego cy'ikigo gishinzwe amazi n'isuku n'isukura, kikaba gishinzwe kuyatunganya no kuyashyikiriza abaturage bose mu bice byose by'Igihugu.

Ni hantu hari abantu batandukanyeba hakaba hari abana bafite ibikoresho bakoresha mu buryo bwo kwifashisha bavoma amazi meza, babubakiye ahantu hari ivomero.

Ni ahantu hameze nkaho hari ivomero. Hakaba hari abantu batatu, abadamu babiri n'umukobwa umwe. Bakaba bameze nkaho bazanye ibikoresho bigiye bitandukanye baje kuvomeramo.

Ni icyumba kinini, harimo abantu bagiye batandukanye, abagore n'abagabo bamwe ni abazungu abandi ni abirabura, imbere yabo hakaba hari uducupa tw'amazi, bakaba bameze nk'aho bari mu nama.

Ahantu abantu benshi bari batandukanye, imbere yabo hari akantu gateye nk'agatente bateye cyangwa ihema. Bamwe bakaba bicaye hasi cyangwa abandi barahagaze, bigaragara ko hari ahantu bari bagiye mu buryo bwo kwigishwa.

Ni ahantu hari umugezi cyangwa ikiyaga, hakaba hari amazi atari meza, hakaba harimo abana bambuye imyenda yose barimo kogamo akaba atari ibintu byiza.

Aha ni ahantu harimo abana bagiye batandukanye benshi bigaragara ko bari ahantu hameze nko mu gishanga. Umwana umwe ari kwerekana ibikombe birimo amazi, hamwe hari amazi mabi n'andi meza.

Abagore n'abagabo, bahagaze ahantu, hakaba bose bamwe bambaye imipira y'imyeru, mu buryo bwo kwerekana n'utundi tuntu mu ntoki, tuyobe yuko ubuzima bwo mu mutwe ari ingenzi.

Ikaba ari insanganyamatsiko bari bakoze mu gihe cya kovide, yo kugaragaza ko abantu bazajya batanga ubufasha mu burwayi bwo mu mutwe.

Ni umumama cyangwa umukecuru w'umwirabura wambaye ibitenge birimo amabara y'icyatsi n'umuhondo. Ameze nkaho yishimye wenda akaba yari afite nk'ikibazo cyo mu mutwe wenda yishimiye ko yaba abonye ubuvuzi.

Ni ahantu hari utwana twinshi dutandukanye, tukaba turimo guseka, twishimye, bakaba bari mu gikorwa cyo kubaganiriza, no kumenya uko babayeho mu buzima bwa buri munsi.

Umunsi ikigo gishinzwe ubuzima RBC cyari cyasohoye insanganyamatsiko, ku munsi isi yose yizihizaho uburwayi bwo mu mutwe, bavuga, bashishikariza abantu bose, gushaka ubuvuzi nyuma yo kugira uburwayi bwo mu mutwe.

Abagabo n'abagore bari ahantu imbere y'inzu bavuye gukoreramo inama ijyanye n'umutekano w'abantu n'ibintu n'imitekerereze ya muntu mu buzima bwa buri munsi.

Ni ahantu hari abana benshi bambaye imyenda y'impuzankano, bigaragara ko ari ikigo cy'amashuri, bishimye barimo gukina, baseka, imbere yabo hakaba hari umuntu wari uri kubafotora.

Ni hantu hari abadamu babiri bisa nk'aho bari mu rugo rw'umuntu akaba ari umwe akaba yaje kuganiriza undi mu buryo bw'ubuvuzi bwo ku bijyanye n'imitekerereze y'ikiremwa muntu.

Ni ahantu mu giturage, akaba ari abagore batatu n'umugabo umwe n'undi mwana mutoya w'umukobwa, bakaba bari mu gikorwa cyo kuganira baganiriza abantu mu buryo bw'imitekerereze, cyangwa biga ku mitekerereze y'umuntu.

Ahantu hari icyumba, kirimo umugabo ufite ihungabana, no kwihisha arira, ameze nk'ukeneye ubufasha, no kuganirizwa.

N'icyumba kirimo abantu benshi bagiye batandukanye abagore n'abagabokaba, haka imbere yabo hariho amakayi n'amakaramu bakaba bari mu nama yo kwiga ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'imitekerereze.

Ni icyumba kinini, kirimo abantu benshi cyane, bagiye batandukanye, abagore n'abagabo, imbere yabo hakaba hari abandi badamu cyangwa abakobwa babiri bahagaze, bameze nk'aho ari umukino bari gukina cyangwa bari kuganira.

Ni hantu hari abagore babiri cyangwa abakobwa, umwe bakaba bari mu gikorwa cyiza cyo kuganira byo gufasha abantu bahuye n'ihungabana no kubavura ku bijyanye n'imitekerereze.

Ni igipapuro cyanyanditseho akamaro ko kuganirizwa, kutari ukugira ngo gusa ibintu birangire utekereza, ahubwo ko bifasha kwisobanukirwa no kubona ubuvuzi kugira ngo umererwe neza mu mitekerereze.

Ni umuryango w'ubumwe bw'Uburayi ndetse n'iyindi miryango ighiye itandukanye bakaba bari bari mu gikorwa cyo gufasha mu buvuzi bujyanye n'ubwonko, n'imitekerereze ya muntu bakaba bari bari kuganiriza abantu bagiye batandu.

Ni hantu hari abantu batatu b'abadamu, umwe akaba yaje wabasanze ahantu nko mu giturage, akaba yaje kubaganiriza ku bijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe n'imibereho ya buri munsi.

Ni ahantu hari abana benshi basa nkaho bafite ikibazo barimo no kurira, bigaragara ko bafite ikibazo cy'amarangamutima cyangwa badafite imitekerereze imeze neza, bitewe n'ihungabana cyangwa n'ibyo babonye babayemo.

Ni ahantu hari abantu benshi bagenda, abandi baza, imbere ariko hakaba hari umuntu umeze nk'umukecuru wicaye hasi, usa nabi, ufite ibintu byinshi mu ntoki, bishoboka ko afite ikibazo cyo mu mutwe.

Icyumba kirimo abantu batandukanye cyane cyane aba mama imbere yabo hari umugabo uri kubigisha bigaragaza ko ariko ashobora kuba ari UN yari yaje kubigisha ku bijyanye no kwimuka no kuba ahantu, nk'uko bigaragazwa n'ibendera ry'ibihugu bitandukanye biri imbere harimo nka Burkina Faso.

Aha hantu hari inzu, ikaba irimo umumama cyangwa umukobwa ufite ikibazo cy'ihungabana wicaye yigunze , akaba akeneye ubufasha .

Hakaba ari ahantu mu cyumba, harimo umugore n'umugabo, umugabo umeze nkaho hari ibyo arimo kumubaza yandika muri telefone n'umugore agasubiza, imbere yabo hakaba hari icupa ririmo amazi bari kunywa.

Ni hantu hari abantu babiri b'abadamu cyangwa abakobwa, akaba umwe yicaye imbere y'undi ameze nkaho arimo kumuganiriza, kuko undi ashobora kuba abana n'ubumuga bwo mu mutwe, akaba ari kumufasha amuganiriza ngo yumve uko amerewe.

Akaba ari ahantu hari abantu batandukanye, abagore batatu n'umugabo umwe n'umwana, umugore umwe akaba afite impapuro, bishoboka ko ari mu kazi, arimo kuganiriza umuryango, ababaza uko wenda babanyeho, niba nta kibazo bafite.

Umugabo wicaye hasi wambitswe amapingu akaba akikijwe n'abandi bantu benshi bagiye batandukanye.

Hano harimo abantu batandukanye, harimo abagore n'abagabo, b'abazungu n'abirabura, bameze nk'abavuye mu nama, bamwe bateruye n'abana, barimo kwifotoza.

Ni ibitaro hakaba harimo icyumba kimwe kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, intebe n'ameza ndetse n'aho basuzumira umuntu, mu gihe bashaka kumenya ikibazo afite ngo bamuvure.

Umudamu cyangwa umukobwa uri ahantu mu cyumba, akaba afite ibikoresho imbere y'iwe byinshi, akaba ameze nk'aho ari mu isuzuma ry'imiti cyangwa ibindi bikoresho, bikoreshwa kwa muganga.

Ni akumba cyangwa icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, intebe n'ikindi kiri imbere bashobora kuba bakoresha mu gihe barimo gupima nk'umuntu ufite ikibazo mu nda cyangwa bareba mu mubiri w'umuntu.

Umugabo wishimye arimo araseka, agaragaza amenyo ye ko asa neza, bitewe nuko hari akagozi afite mu ntoki, gasanzwe gakoreshwa mu buryo bwo gukura imyanda hagati y'indi, bigatuma hasa neza.

Ni hantu hari mu cyumba harimo umugabo akaba ahagaze yireba mu ndorerwamo, akaba afite agakoresho mu ntoki z'iwe bifashisha mu gihe umuntu ashaka gusukura hagati y'amenyo n'andi, akaba ashaka gukuramo imyanda yaba irimo, akaba ari uburyo bwiza bwo gusukura amenyo.

Ni umudamu cyangwa umukobwa, ari kwireba mu ndorerwamo akaba afite uburoso bw'amenyo n'umuti w' amenyo, akaba ari gukora igikorwa cyo gusukura amenyo ye akuramo umwanda arwanya indwara zifata mu kanwa.

Ni icyumba cyangwa mu bitaro, bavuriramo abarwayi bafite ikibazo cy'amenyo, bakaba bakoreramo ibikorwa bitandukanye nko gukura amenyo, kuyapima, ngo barebe ikibazo kirimo n'ibindi bijyanye n'amenyo.

Aha hagaragaza umugabo wishimye, urimo uraseka ufite amenyo asa neza y'umweru, bitewe n'uko afite akagozi gakoreshwa mu gukura imyanda mu menyo hagati n'ayandi menyo.

Kikaba ari icyumba kirimo abantu batandukanye, abagore n'umuhungu cyangwa umugabo uryamye, bakaba bafite utwuma, bameze nk'aho barimo kumuvura amenyo, cyangwa kuyakura.

Ni icyumba kirimo abantu batandukanye, abagore n'abagabo, hakaba harimo ko bigaragara ko bavuye muri kaminuza nkuru y'u Rwanda, mu ishami ry'uburezi, bakaba baje kwigisha abanyeshuri ahantu mu kigo, ibijyanye n'ubuvuzi, ndetse n'uburwayi bufata amenyo.

Ni umugabo cyangwa umusore uri ahantu akaba afite agakoresho mu ntoki ziwe basanzwe bakoresha mu buryo bwo gukura imyanda hagati y'amenyo, byagiye bisigara wenda uburoso bw'amenyo butabasha gukuramo, akaba ari uburyo bwiza bwo kwisukura neza.

Iki cyumba kikaba kirimo abantu babiri, umudamu cyangwa umukobwa n'umugabo. Umugabo akaba ari umwirabura, umuagore ari umuzungu akaba ameze nk'aho bari kumufasha mu buryo bwo kugenda kuko ashobora kuba yaragize ikibazo cy'impanuka akaba atakibasha kugenda neza akaba ari kumwigisha nanone kugenda.

Ni inzu iri ahantu, hakaba hari abantu bayicaye imbere, bameze nk'abantu b'abasaza, bashobora kuba babana n'ubumuga, iyi nzu ikaba ari nk'ahantu bashobora kuba ari aho babitaho, bakabafasha mu buzima bwa buri munsi.

Ni ahantu hari ibitaro cyangwa inzu bafashirizamo abantu bakuze cyane, babavura cyangwa babafasha mu buzima bwa buri munsi, igihe batagishobora kwifasha cyangwa kugira icyo bikorera bakabafasha.

Umumama usa nkaho akuze uri ahantu mu cyumba, akaba ari ku kantu k'akamatera bakunda gukoresha barimo kwifasha mu gihe cyo gukora siporo neza.

Uyu muganga biragaragara ko ari gufasha uyu musaza mu buryo bw'ingororangingo, no kugenda neza, kuko bigaragara ko ashobora kugeza, kuba ageze mu myaka y'izabukuru.

Ni ibigo cyangwa ibitaro, bisanzwe bifasha abantu bakuze cyane, bahuye n'ikibazo cy'ubumuga, cyangwa n'indwara bakaba bakeneye ubufasha bwa buri munsi, mu buzima bw'abo bw'uburwayi cyangwa bw'ubumuga.

Ni ahantu mu gitondo, akaba ari umugore n'umugabo, bari gukoresha uburyo bumwe bwo kugorora umubiri bwo kwiruka, bakaba bambaye impuzankano bifashisha mu gitondo.

Ni abamama babiri bakaba bari ahantu hakikijwe n'umuhanda ndetse hirya yaho hakaba hari ibiti n'ibyatsi biteye, bakaba bari gukora uburyo bwiza bwo kurinda umubiri cyangwa kuvura umubiri indwara hakoreshejwe uburyo bw'ingorororamubiri bwo kwirukanka.

Ni ahantu hari ibitaro cyangwa ikigo basanzwe bafasha abantu bakuze nko kubavura, kubafasha mu buzima bwa buri munsi mu gihe bafite ubumuga cyangwa ubundi burwayi bakabafasha mu buzima bwa buri munsi.

Ahantu hari abagore n'abagabo, bahagaze ahantu bameze nk'aho bari gushimira abandi, bari batanze inkunga y'ibikoresho, bikoreshwa n'abantu babana n'ubumuga.

Icyumba kirimo abantu babiri, umwe akaba ari umudamu, undi akaba ari umuntu ukuze w'umusaza, akaba arimo kumufasha mu kumuha imiti, bigaragara ko ari umuntu umushinzwe cyangwa akaba ari umuganga ushinzwe abakuru.

Ni ahantu mu cyumba hari umudamu cyangwa umukobwa, wambaye impuzankano z'abaganga, akaba yarari gufasha umugabo usa nk'ukuze, amupima umuvuduko w'amaraso no gukora k'umutima.

Umuntu uhagaze ahantu mu kumba, inyuma yiwe hari igitanda, bigaragara ko ari kwa muganga, wambaye ikanzu yo mu bitaro, ufite akantu abarwayi bagenderaho, ushobora kuba hari ikibazo yagize mu ngingo, akaba akeneye ubufasha.

Ni umugabo ukuze cyane, akaba ari ahantu bafasha abantu bakuze batakibasha kwifasha mu buzima bwa buri munsi, akaba hari umuntu uri kumufasha mu kumwoza no kumusukura.

Inzu irimo abantu babiri umugore n'umugabo, umugore bigaragara ko ari umuzungu umugabo ari umwirabura, umugore bigaragara ko ari umuganga, uri gufasha uyu mugabo mu bijyanye n'ingororangingo no kwita ku buzima bw'umubiri.

Umugabo n'umugore, basa nk'aho bari ahantu mu nzu, hakaba hari imeza imbere yabo, hariho uducupa tugiye dutandukanye turiho ubwoko bw'imiti bugiye butandukanye, bari gukoresha.

Hakaba hari umugabo wicaye imbere ye hakaba hari ameza ateretseho hakaba hateretse ho amakayi na compiyuta ariko akaba ameze nkaho'aho afite ikibazo cyo kubara umutwe.

Akaba ari inzu irimo umuryango bigaraga ko ari umugabo n'umugore, umugabo akaba arimo gufasha umugore we mu kumwarurira ibiryo. harimo kwerekana uko umuntu yarya bijyanye n'indyo yuzuye.

Ni ahantu hari ihema bateye kugira ngo babone uko bita ku bantu bakuze, cyane cyane bapima amaraso, umuvuduko ndetse nuko ubuzima bwabo bugenda bya buri munsi banabaganiriza.

Ni ingamba zafashwe n'abantu hagamijwe kugira ngo berekane uko abantu barwanya igwingira, mu bana batoya, harimo nk'ibyo babagaburira ibyo' umubyeyi yakora mu gihe agitwite umwana.

Ni hantu hari ihema hakaba harimo abantu benshi batandukanye, harimo abagore n'abagabo bamwe bakaba bicaye, bigaragara ko barimo baratanga amaraso yabo ngo bapime barebe ko nta kibazo kiri mu maraso cyangwa ikibazo cy'umutima n'umuvuduko.

Nahantu hari abagore n'abagabo abirabura ndetse n'abazungu, bakaba bari baje mu nama ivuga ku by'ubuzima cyane cyane kubuzima bw'umugore utwite n'umwana.

Ni umugabo wumuzungu uhagaze ahantu munsi y'igiti akaba afite igipapuro cyanditse uburwayi rwanduzwa n'inkende akaba agaragaza ko habonetse urukingo rwaho

Icyumba kirimo abantu batatu abadamu babiri n'undi umwe uhagaze, akaba yari ari mu gikorwa cyo gukingira cyangwa kuvura indwara bavura.

Icyumba kinini, kikaba kirimo abantu batandukanye, abagore n'abagabo, abazungu n'abirabura, bamwe bakaba bicaye imbere abandi babicaye imbere yabo, bakaba bari mu bijyanye no kwiga ko bashakisha uburyo abaturage b'u Rwanda bamererwa neza.

Iki ni ikinyamakuru cyari kiri kuvuga k'umuryango ushinzwe ubuzima ku isi hose, bari bari ahantu bigisha abantu ko mu gihe cya Covid uko abantu bamenye uko bapanga mu bijyanye no kubyara no kuboneza urubyaro.

Ni insanganyamatsiko igaragaza umunsi w'ubuzima bw'umugore bakaba bari bagiye kubaha inama ya karindwi y'isi yose yari igiye kubera vancouver muri canada itariki z'irindwi z'ukwa munani yari igiye kwiga ku buzima bw'umugore no kwirinda kanseri.

Ni ahantu hari icyumba abantu barimo benshi bagiye batandukanye abagore n'abagabo, hakaba hasa nk'ahari inama bari barimo gukora ijyanye no kwirinda ndetse n'ubuzima buzira umuze.

Ni ahantu hari abantu benshi batandukanye, abagore n'abagabo bamwe bakaba bari mu gikorwa cyo gufata amaraso abantu. Gahunda barimo kubapima virusi itera SIDA cyangwa n'izindi ndwara.

Ni ahantu mu muhanda abantu barimo kandi abantu benshi cyane, harimo abagore, abagabo bambaye imipira y'umweru, bakaba barimo baragenda bashishikariza abantu ko bakirinda kanseri y'ibere bisuzumisha hakiri kare kuko ivurwa igakira.

Mu muhanda, abantu barimo benshi cyane, benshi bakaba bambaye imipira y'umweru bigaragara ko bari mu gikorwa kimwe cyo gushishikariza urubyiruko rw'u Rwanda mu kwirinda virusi itera SIDA, no kwipimisha buri munsi.

Ni agapapuro kerekana uko byagenze mu myaka ingana nk'icumi mu gihe mu miryango igiye itandukanye mu buryo bwo kuboneza urubyaro.

Ni ahantu hari abagore batatu b'abamansera, bari kumwe n'umugabo, akaba ari minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, bameze nkaho bari kumushimira cyangwa kubashimira, ubufatanye mu bikorwa bimwe na bimwe.

Ni ahantu hari ihema, hakaba harimo abantu benshi batandukanye, aho hantu kenshi bakunda gushishikariza abantu, mu guha abandi amaraso akaba...

Aha hakaba ari ahantu hubatse amazu, ashobora kuba ari abiri ariko manini cyane, imbere yayo hakaba hateye ibiti, indabo, ishobora kuba ari inzu ikorerwamo, akaba ari inzu irimo nk'ibitaro.

Ni ibitaro binini biri ahantu mu misozi hakaba harimo ibyumba byinshi bigiye bitandukanye aho bavurira abantu bafite uburwayi butandukanye abarembye cyane, abatarembye ndetse n'ababivuza bagataha.

Ni ahantu ari inzu, umugabo cyangwa umugore ahagaze imbere, wambaye ibintu yipfutse ahantu hose, hameze nkaho arimo gutera imiti, imbere yose imbere hakaba ari ibintu by'indobo by'amazi wagira ngo, hafashe ingamba zo kwirinda.

Icyumba kirimo umugabo, n'ibikoresho bigiye bitandukanye, n'amamashini atandukanye, bishobora kuba ari nk'icyumba kijyanye no gusuzuma imiti, no kwiga imiti.

Aha hakaba hari amazu menshi, ayafite amabati amwe y'ubururu, andi y'umutuku, imbere yaho hakaba hateye ibiti n'indabo, kaba hari n'abandi bantu bahicaye, bigaragara ko ari ibitaro byo kwa muganga.

Icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ameza, Intebe, kandi bigizwe n'amabara atandukanye yumuhondo, icyatsi n'umutuku bigaragaza ko gishobora kuba ari icyumba gikorerwamo nk'ubuvuzi.

Ni cyumba kinini cyangwa inzu nini, iririmo intebe nyinshi, ikaba arimo amameza kabamo n'amatara kikaba ari icyumba bakoresha bari mu nama.

Ni icyumba kinini kiri mu nzu hakaba harimo umugabo umeze nk'uri kuzinga supanete, haba hari n'ahandi hantu henshi hameze nkaho arimo kuzinga bikaba bigaragara ko ari kwa muganga kuko imbere ye hari igitanda kiryamyeho umuntu urwaye.

Ni inzu yanditseho ko ari ibijyanye n'ubuzima cyangwa amoko mu kwivura, akaba ari n'iduka riba ririmo ibikoresho abantu bifashisha mu ubuzima bwa buri munsi mu kwivuza, ibikoma, imiti n'ibyo bakoresherezamo bafasha abana.

Ni ibitaro hakaba hari icyumba kimwe muri ibyo bitaro, harimo abaganga bagiye batandukanye b'abagabo n'abagore, bakaba bari mu buryo bwo kwiga ku bushakashatsi bw'imiti cyangwa uburwayi.

Aha akaba ari kwa muganga, hakaba hari icyumba kirimo abantu benshi, hakaba harimo abantu batatu bahagaze b'abaganga, umwe akaba aryamye, muganga umwe akaba arimo kumuvura amubaga.

Ni mu bitaro ahari icyumba bafashirizamo abana bakivuka, bakomeza babakurikirana, babitaho mu gihe batari bava mu bitaro.

Ni ikigo kinini kikaba ari ikigo cyigisha ibijyanye n'ubushakashatsi ku bijyanye n'ubuzima, n'imiti n'ibindi bifasha ubuzima bwa buri munsi bw'imibereho myiza.

Ni ibitaro, hakaba harimo icyumba bakoresha mu gihe bashaka gusuzuma umuntu bareba icyaba cyirimo imbere mu mubiri, bitewe n'uburwayi yaba afite.

Ni icyumba kiri ahantu kiba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye abantu bifashisha mu buryo bwo kwivura bw'ingorororamubiri bwose bugiye butandukanye burimo ibyo guterura ibyuma gusimbuka ndetse n'ibindi no kwiruka.

Ni icyapa kiri ahantu ku muhanda, gikikijwe n'umuhanda n'ibiti, kikaba cyerekana ko hari ibitaro imbere aho ngaho, bivura indwara zigiye zitandukanye no gupima.

Ni icyumba kinini, kiri ahantu mu nzu nini, hakaba harimo ibikoresho bitandukanye nk'ibitanda, ahantu baryamira, amarido ari hagati ya buri gitanda, bigaragara ko ari nk'inzu irimo ibitaro, kuburyo abantu buri muntu wese aba afite ahantu aryama hatandukanye n'ah'undi.

Ni inzu nini, irimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buryo bwo kwivuza, inzu y'umweru ishobora kuba ari nko kwa muganga cyangwa ibitaro.

Ni ahantu hari icyumba harimo iki'imashini kinini, hari n'umugabo umeze kugikoresha bifashisha bapima umuntu, bareba imbere mu mubiri we cyangwa inyuma ngo barebe ikibazo yaba afite.

Ni inzu nini iri ahantu ikaba yubatse ahantu hari ibyatsi. Hakaba hari ibyumba byinshi bigiye bitandukanye bifashisha mu kuvura abarwayi mu gihe umurwayi aje akeneye nk'igitanda agomba kuvurirwa cyangwa akurikiranwa ari hafi y'umuganga bakamuryamishayo.

Ni ahantu hari ibitaro hakaba harimo abantu batatu abagabo babiri n'akandi kana, umwe akaba ari umuganga urimo kugapima cyangwa uri kukavura indwara.

Ni ikigo cyangwa ibitaro binini basanzwe bavuriramo abantu bafite ikibazo mu mutwe, uburwayi cyangwa ubumuga bwo mu mutwe bakabafasha buri munsi babavura.

Ni ahantu hari abagore n'abagabo hakaba harimo ab'abaganga bigaragara ko bari mu bitaro bya Kabutare, bakaba bari bafunguye ishami ryitwa Isange, rifasha abantu bahuye n'ihohoterwa bakabaganiriza gake gake.

Ni hantu cyangwa mu bitaro, akaba ari icyumba bakoresha mu buryo bwo kubika amaraso neza, amaraso bifashisha mu gihe bashaka kuyatera umuntu wagize ikibazo cyo kubura amaraso, kwa muganga.

Ni ibitaro hakaba harimo icyumba cy'isuzumiro, aho basuzumira abana batoya, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa nk'igitanda, intebe ndetse n'aho basuzumira uburwayi umuntu arwaye.

Ahantu kwa muganga akaba ari icyumba basanzwe bakoresha bashaka kubika amaraso kugira ngo umuntu naza akeneye guterwa amaraso, yaragize ikibazo cy'amaraso makeya cyangwa yayatakaje bakayamutera.

Aha hari ni icyumba kinini kirimo ibitanda, kimwe harimo umwanya, ikindi hakaba harimo undi, bigaragara ko ari nzu ari ibitaro abantu baza kwivurizamo.

Ni mu bitaro hakaba hari ibyumba bigiye bitandukanye bavuriramo abarwayi cyangwa abakeneye ubufasha bwo kuvuzwa, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'ibitanda, ibyuma bipima abantu n'ibindi byinshi.

Ni inzu iri ahantu, imbere yayo hakaba hari abantu bahahagaze, inzu ifite amabara atandukanye y'ubururu n'umuhondo, imbere yayo hakaba hari n'abandi benshi ikaba ishobora kuba ari ibitaro

Ni ibitaro imbere yabo akaba ari abaforomo n'ababyaza ndetse n'abandi bantu benshi batandukanye nk'abapadiri n'ababikira. Bakaba bari bishimiye ko bubatse inzu y'ababyeyi babyariramo.

Icyumba kirimo ibitanda byinshi, haba hagaragara ko harimo umwanya uri hagati ya kimwe n'ikindi, kuko harimo n'amarido, supaneti, bigaragara ko ari icyumba cy'ibitaro cyangwa kwa muganga.

N'ibitaro binini bikaba birimo ibikoresho bigiye bitandukanye bifashisha mu buryo bwo kwita ku murwayige mu gihe aje akeneye ko bamuvura ari hafi yabo, bakamuha igitanda aryamo n'ibindi bikoresho.

Ni inzu nini irimo ibintu bigiye bitandukanye nk'intebe wagira ngo abantu bategererezamo. Iyi nzu ikaba isa nk'aho ari nk'Ibitaro, cyangwa ahantu abantu baza gufashirizwa mu buryo bwo kwivuza cyangwa kumererwa neza.

Aha ni ahantu hari abantu batandukanye batatu muri bo abadamu babiri n'umugabo umwe bakaba ari abaganga, umwe akaba arimo gupima, undi asuzuma areba neza niba abantu badafite umuvuduko cyangwa ikibazo cy'umutima.

Ni amasaha asa nkaho ari mu gitondo cyangwa igicamunsi, hakaba hari inzu ihagazeho abantu imbere, iyi nzu ikaba yanditseho ko ari ikigo nderabuzima cya Tabagwe.

Ni ahantu hubatse ihema akaba ari umwana uri gusunika umugabo uri mu kagare imbere yabo hakaba hari umudamu wambaye umupira w'umweru bisa nkaho hari igihe cyo kumufasha kuko afite ubumuga.

Ni ibitaro binini, hakaba harimo ibikoresho byinshi bigiye bitandukanye, hakaba harimo ibitanda, amamatera, supanete yo kurinda abarwayi ko baribwa n'imibu n'abantu baryamyemo babarwayi.

Inzu nini irimo ibikoresho bigiye bitandukanye intebe, ameza ariko akaba ari n'iduka ricuruza indebakure cyangwa amarinete igihe umuntu afite ikibazo cyo kutareba neza cyangwa cy'amaso, akaza akishyura bakamupima bakamuha izimukwiriye.

Ni icyumba kiri ahantu bigaragara ko ari kwa muganga, harimo ibikoresho bigiye bitandukanye bikoreshwa kwa muganga nk'ibitanda biryamaho abarwayi ndetse n'ibindi bikoresho bapima bareba ubuzima bwabo.

Icyumba kinini gisa nk'aho kirimo ameza n'amamashini agiye atandukanye, imbere hakaba hari ahantu babika imiti igiye itandukanye hanini cyane.

Ni icyumba kiri mu byumba byinshi biri mu bitaro, hakaba harimo ibikoresho bigiye bitandukanye: bitanda yo kuryamaho mu gihe umuntu bari kumusuzuma bareba ikibazo afite ndetse n'intebe y'umuganga yicaraho n'ameza.

Ni inzu ifite icyumba kinini harimo abantu bagiye batandukanye benshi baryamye abandi bicaye ku buriri, wagira ngo ni inzu yo kwivurizamo cyangwa ibitaro.

Ni inzu cyangwa icyumba kinini kirimo ameza n'utubati n'intebe, akaba ari iduka rikunda gucururizwamo imiti umuntu akaza akayigura akavuga iyo akeneye akishyura bakayimuha.

Icyumba cyo bakoreramo isuzuma, kikaba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, nk'igitanda bapimiraho umurwayi cyangwa basuzumiraho umurwayi, n'icyo bacishamo umuntu ngo barebe uburwayi yaba afite mu mubiri mo imbere.

Kikaba ari icyumba kirimo abantu batandukanye b'abadamu, umwe akaba afasha umwana we yamushyize ku munzani, kugira ngo apime ibiro, iyo akaba ari gahunda y'abantu ya leta yo kugira ngo bamenye, barebe ko abana nta gwingira bafite.

Ni inzu cyangwa icyumba cyari kirimo abantu benshi bagiye batandukanye, bakaba bari bari mu nama yiga ku buryo u Rwanda rwahangana na malariya no kuyirandura burundu n'uko bayivura.

Ni ibitaro hakaba harimo abantu benshi batunze umurongo baje kwivura ndetse no kwipimisha indwara zigiye zitandukanye, akaba ari n'abaganga bari mu nshingano yo kubakira no kubafasha.

Ni ibitaro binini bikaba birimo ibikoresho bigiye bitandukanye hakaba harimo nk'ibitanda n'amarido ari imbere yabyo agenda akingiriza buri gitanda cy'umuntu akana tandukanya igitanda nundi aho aryamye.

Ni ahantu hari inzu, hakaba harimo iduka abantu bacururizamo imiti igiye itandukanye, mu gihe umuntu arwaye cyangwa afite ikibazo ashaka umuti, araza akawutanga amafaranga, akawuvuga, bakawumuha.

Ni inzu iri ahantu ikaba iteyeho ibyatsi imbere n'ibiti, akaba ari inzu bafashirizamo abantu bafite ubumuga bwo mu mutwe cyangwa bagize ikibazo cy'ihungabana, cyangwa bakagira ikindi kibazo cyose cyabangamiye ubwonko bw'umuntu.

Ahantu hari icyuma abantu bakoresha mu kwishimisha cyane cyane abana, ariko n'abantu bakuru baragakoresha, mu gihe bizunguzaho barimo bararya iminyenga.

Ni inzu iruhande rwayo haparitse imodoka na moto n'imbere hakaba harimo abamama babiri na n'undi umwe akaba ahetse umwe n'undi akaba adufite mu ntoki, akaba ari inzu ziba ziyicuruza imiti buri muntu wese akeneye akaza akagura akishyura.

Aha ni hantu hari abantu barigutambuka, hakaba hari amazu atandukanye arimo gukorerwamo ibitaro, kuko mu imbere handitseho ko ari ibitaro bya Kabgayi.

Ni inzu irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, hakaba harimo nk'akamatera, ibyuma bakora bameze nk'aho birukanka bigiye bitandukanye, bifite amabara menshi atandukanye y'icyatsi, umutuku, bishoboka ko abantu bifashisha barimo no kwivura mu bigendanye n'ingingo.

Ni ahantu hari icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa n'abantu bagize ikibazo cy'amaso n'imboni. Hakaba harimo ibikoresho bahereza umuntu bapimye bagasanga afite ikibazo cy'amaso, agatanga amafaranga bakabimuhereza, kugira ngo arebe neza.

Ahantu ku muhanda ariko hari amazu hakaba hari abantu benshi, hari urujya n'uruza rw'abantu benshi batandukanye, bamwe bari kuva mu bitaro abandi bakaba barimo kujyayo.

Ni amazu menshi ari ahantu hanini cyane hakaba bari abantu bahagaze imbere, bigaragara ko hashobora kuba ari nk'ibitaro cyangwa ivuriro abantu baza kwivurizaho.

Ni ibikoresho bitandukanye, bikoreshwa mu gihe umuntu arimo, mu buvuzi bujyanye no kugorora umubiri, hakaba harimo nka baro, hakaba harimo inkweto bakoresha, n'agakoresho bakoresha kwa muganga bapima umutima, no gukora kwawo.

Umudamu cyangwa umukobwa, wicaye ahantu, yambaye imyenda bakoresha, bifashisha mu gihe cya siporo, imbere ye hakaba hari icupa ririmo amazi.

Ni ahantu umuntu w'umugabo cyangwa umusore, akaba ari mu gikorwa cyiza cyo kwivura ku giti cy'umuntu nko gukora ingororamubiri zo kurambura amaguru n'amaboko ndetse no kwibuka.

Ni uburyo bwiza bw'ubujyanama, abaganga n'abandi bose bari mu nshingano z'ubuzima bw'abantu bwa buri munsi, batugira inama zo kurya imboga n'imbuto, mu bigiye zitandukanye ndetse no gukora ingororamubiri buri munsi.

Ni hantu hateretse ibintu bigiye bitandukanye nk'icupa ririmo amazi, imbuto ndetse n'imboga n'utwuma bakoresha mu ngororamubirikaba akaba ari ibyo bagiramo inama abantu bose mu gufata kugira ngo bagire ubuzima buzira umuze.

Umudamu cyangwa umukobwa, avuye muri siporo yiteye agasume ko kwihanagura, mu ntoki ze hakaba ari agacupa karimo amazi yo kunywa.

Ni mu gitondo umudamu cyangwa umukobwa uri muri siporo, usutse, uzamuye amaboko, biragaragara ko asanzwe akora siporo.

Umudamu cyangwa umukobwa w'umwirabura, usa nkaho yagize ikibazo cy'imvune, akaba arimo kwivura akoresheje agasashi, karimo amazi aba akonje cyane, bajya bita barafu.

N'ahantu hari umugabo cyangwa umusore wambaye imyenda bakoresha mugihe umuntu arimo gukora siporo, akaba arimo kwikanda ivi arikoresha siporo.

Umudamu uri ahantu, akaba ari ku manywa, umudamu w'umwirabura ufite agatambaro k'umweru ku rutugu rwe, akaba ameze nkaho avuye muri siporo, afite n'agacupa karimo amazi arimo kunywa.

Umudamu cyangwa umukobwa uri ahantu, akaba ahagaze yambaye imyenda bifashisha mu gukora siporo, akaba arimo kwikoresha siporo ahangaha.

Ni ahantu hari abantu benshi bakikije hirya, hagati hakaba hari abana benshi, bakaba barimo kubyina mu buryo bwo kwigorora no kwishimisha.

Ni icyumba kirimo umudamu cyangwa umukobwa, akaba yambaye impuzankano, zo bakoresha muri ngororamubiri , akaba aryamye ku kamatera bakoreraho ingororamubiri.

Uyu mudamu cyangwa umukobwa wambaye udukururamajwi n'akuma ku kuboko kagaragaza ko umutima urimo uratera, ufite agacupa karimo amazi arimo kunywa...

Umugabo cyangwa umusore akaba yambaye imyenda yifashishwa muri siporo, akaba yambaye ni utugororamajwi mu matwi ye, afite n'agacupa karimo amazi mu ntoki ze arimo kunywa.

Ni akumba karimo abantu babiri, umudamu cyangwa umukobwa, akaba arimo gufasha umuntu w'umugabo cyangwa umusore, mu ngororangingo, ari ku kuma gafasha abantu kongera kugenda neza.

Ubu ni ubwoko bubiri bari barimo kuvuga bw'indwara, bavuga ukuntu waburwanya, bakavugana na none ukuntu bufata abantu, nano bakavuga ukuntu wabigenza kugira ngo budakomeza gukura.

Ni ibitaro hakaba harimo umugore ndetse n'umugabo, umugore akaba ahagaze ari gufasha umugabo uryamye ku gitanda wagize ikibazo k'imvune, akaba arimo kumufasha amwambika agatambaro bambika umuntu, kugira ngo akire neza.

Umugabo cyangwa umusore uri ahantu hari ikiraro, hakaba harimo mu buryo bwiza bw'ingororamubiri bakoresha bivura cyangwa birinda indwara yose yakataka umubiri w'umuntu.

Ni mu bitaro hakaba ari umugore uri gufasha umuntu w'umugabo, wagize ikibazo nk'impanuka, akaba ari kumufasha kongera kugenda neza no kumererwa neza amwitaho kandi amuvura.

Ahantu hari icyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byifashishwa mu buvuzi bwo kugorora umubiri n'ingingo, hakaba harimo umugabo uri gukora muri ubwo buryo, akina umupira w'amaboko arambura umubiri.

Ni hantu hari icyumba kinini kirimo abantu bagiye batandukanye hakaba harimo ibikoresho bifashisha mu gihe barimo gukora ubuvuzi bwo kuvura umubiri no kuwurambura neza.

Umugore cyangwa umukobwa wambaye imyenda bifashisha mu gihe cyo gukora siporo, akaba afite n'akandi kantu ukuboko kifashishwa mu gihe umuntu arimo kureba umutima we urimo akora cyangwa ibiha, imbere ye hakaba hatetse agacupa karimo amazi.

Ni ibikapu bibiri, bigaragaramo ibikoresho, bifashisha mu buvuzi bw'ibanze, umuntu akoreshwaho mu gihe ahuye n'impanuka, akaba aba akeneye ubufasha byihutirwa, mbere y'uko agera kwa muganga.

Umama cyangwa umudamu, wicaye ahantu mu cyumba cyangwa mu nzu, inyuma ye hakaba hari intebe, ameza, akaba yambaye imyenda akoresha muri siporo, bakaba yicaye ku kantu k'agasambi bakoresha muri siporo.

Aha hakaba hari abantu babiri umwe akaba aryamye ahantu ku gitanda, undi akaba ahagaze wambaye itaburiya ameze nkaho ari umuganga, uri kuvura uyu ng'uyu uryamye amukanda kuko ashobora kuba amugorora ingingo cyangwa yaragize ikibazo cy'imvune akaba ari mukanda ngo arebe aho ababara.

Ni cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanye nk'intebe hakaba harimo umugabo urimo gukora ingororamubiri akaba ari ku ka matola cyangwa agacyeka kabakoreraho ingororamubiri zigiye zitandukanye nko kuryama no kunamaho.

Umudamu cyangwa umukobwa uri ahantu mu cyumba akaba yicaye ku kamatera bakoreraho imyitozo ngororamubiri, akaba imbere ye hari udukoresho yifashisha ndetse n'icupa ririmo amazi yo kunywa.

Ku kibuga cy'indege cy'u Rwanda hakaba hari hari abagabo benshi batandukanye, hakaba ari abagabo babiri umwe ufasha undi wari uvuye mu irushanwa ryo gusiganwa cyangwa gukora ubuvuzi bujyanye n'ingororamubiri ryo kwiruka.

Ntabwo bigaragara ko ashobora kuba avuye muri siporo, wambaye isaha n'umupira wa siporo afite agacupa, karimo amazi arimo aranywesha kandi ari ku manywa.

Aha hari umugabo w'umwirabura, umeze nkaho ameze neza akomeye nk'usanzwe akora siporo, hakaba n'uwundi urimo kwifasha mu buryo bwo kwikoresha siporo.

Ni umusore cyangwa umugabo, akaba yari ari mu gitondo, akaba yari yambaye umupira w'umweru, n'udukururamajwi mu matwi, akaba yari afite icupa mu ntoki ririmo amazi, yari arimo kunywa.

Icyumba kirimo abantu henshi batandukanye, abagore ndetse n'abagabo, umwe akaba ahagaze imbere yabo ameze nk'aho afite imashini ari no kubereka cyangwa abigisha, kuko abandi bari imbere bafite amakayi bameze nk'abari gufata note, bameze nk'aho bari kwiga, ahantu hari ibitaro.

Agasanduku karimo ibikoresho bigiye bitandukanye byifashishwa mu buvuzi, hakaba harimo amavuta, hakaba harimo imiti y'ibicurane, utwuma bakoresha mu gihe barimo kubaga n'indi miti myinshi itandukanye.

Ni akameza gateretseho ibintu bitandukanye, nk'imboga ndetse n'imbuto, akaba ari umujyanama, abaganga n'abandi bafite mu nshingano zo kugira inama mu gufasha umubiri ndetse n'ubuzima bw'umuntu, hakaba harimo imboga n'imbuto zifashishwa ndetse n'ibikoresho byifashishwa mu gukora ingororamubiri.

Umudamu cyangwa umukobwa uri ahantu ku mazi, akaba yari avuye mu gikorwa cyiza cyo kwivura mu buryo bw'ingorororamubiri, mu buryo bwo kwirukanka, akaba afite icupa mu ntoki rye ririmo amazi.

Ni agasanduku karimo imiti bakunda kwifashisha mu gihe habayeho ikibazo umuntu wenda agize nk'impanuka bagahita bakuramo nk'umuti cyangwa igikoresho mu gihe bakeneye kumufasha byihutirwa ataragera kwa muganga.

Ni hantu hari umuntu umwe uryamye undi akaba ahagaze, akaba yagize ikibazo mu ivi cyangwa mu kaguru, akaba undi ari kumufasha mu kumugabanyiriza ububabare no kumuvura.

N'ibikoresho biba biri mu kantu k'agasanduku bakunda gukoresha mu gihe bashaka kuvura umuntu byihutirwa ataragera kwa muganga, hakaba harimo nk'imiti, ibipfuko n'ibindi byinshi.

Ni umugabo cyangwa umusore uvuye mu ngororamubiri akaba afite icupa ririmo amazi meza arimo kunywa, akaba yabambaye n'imyenda bakoresha mu gihe bari gukora izo ngororamubiri.

Ni ahantu hari icyumba cyo mu bitaro hakaba hari umurwayi wari wagize imvune cyangwa ubumuga bwo mu kaguru bakaba bari baje gukora isuzuma cyangwa kwerekana uburyo bwo kuvura umuntu wifashishije ingororamubiri.

Ni ikirangantego kigaragaza croix_Rouge cyangwa ikigo gifasha abantu bagiye bafite ibibazo bitandukanye, ikindi kikaba ari ikirangantego kigaragaza, umuntu wigisha uko umuntu yatanga ubufasha bw'ibanze, ataragera kwa muganga.

Abantu babiri bari ahantu ku muhanda, umwe uhagaze akaba ari umudamu cyangwa umukobwa, undi wicaye akaba ari umugabo cyangwa umusore, bakaba bafite agacupa mu ntoki k'amazi bari kunywa, bakaba bafite n'ibikapu imbere yabo bigaragara ko bavuye muri siporo.

Ni icyumba kirimo umugabo cyangwa umusore, icyumba arimo kikaba kirimo ibikoresho bakoresha mu buryo bwo kwivura ariko buciye mu ngororamubiri, akaba aryamye hasi akora siporo yo kurambura amaguru, akoresheje kimwe mu gikoresho kiri muri iki cyumba.

Umudamu cyangwa umukobwa uri ahantu mu cyumba akaba yambaye imyenda bakoresha mu ngororamubiri, uburyo bwiza bwo kuvura umuntu ku giti cye akaba ari ku kantu k'akamatera bakorera ingororamubiri.

Ni icyumba kirimo abantu batandukanye hakaba harimo abagabo, umwe uhagaze, undi yicaye ahantu hejuru, uwicaye akaba afite ikibazo gishoboka kuba ari icy'ubumuga cyangwa imvune uhagaze nawe aka bari kumufasha mu buryo bwo kumuvura anamupfuka.

Umugabo cyangwa umusore uri ahantu mu cyumba kirimo ibikoresho bigiye bitandukanya, abantu bifashisha mu gihe cya siporo, akaba yambaye imyenda y'umukara bifashisha mugihe cya siporo, akaba nawe ari gukora siporo y'ubwoko bwinshi.

Umudamu cyangwa umukobwa w'umwirabura wicaye ahantu mu nzu, ari gukora uburyo bwo kwivura mu buryo bwa siporo.

Imeza iteretseho amasahane n'agatebo, baba barimo kugira inama abantu kurya indyo yuzuye, ndetse hirya yaho hakaba hari udukoresho abantu bifashisha mu buryo bwo kwivura mu ngororamubiri. Ni ubujyanama bagira abantu bose mu gufasha ubuzima bwa buri munsi.

Ni akantu kameze nk'agakombe cyangwa agasorori, hakaba harimo ibintu by'ifu biseye bishobora kuba byarakozwe mu byatsi cyangwa imiti ya gakondo abantu bakoresha mu buryo bw'ubuvuzi.

Hano ni amakuru yari ari guca kuri televiziyo y'u Rwanda ''RTV'', bakaba bari bari ku ngingo ivuga mu kunoza urwego rw'ubuvuzi gakondo. Aha ni umugabo wari uhagaze ahantu hashobora kuba ari mu iduka ricururizwamo imiti myinshi itandukanye ya gakondo.

Hano hari umudamu cyangwa umukobwa, ufite imiti itandukanye mu ntoki ziwe, imbere ye hakaba hateretse ameza ariho udusorori dutandukanye turimo imbuto cyangwa imiti igiye itandukanye ya gakondo.

Imiti ndetse n'imboga bigiye bitandukanye, imiti ikaba ari ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye mu buryo bwa gakondo ndetse n'imboga zikoreshwa mu kurinda imibiri y'abantu.

Igipapuro cyanditseho imiti ya kinyarwanda itandukanye, hakaba hariho n'igikakarubamba, gikoreshwa mu buvuzi butandukanye, nko gukiza uruhu, gukiza inzoka n'izindi ndwara nyinshi zigiye zitandukanye.

Ahantu bashinze amahema manini hakaba harimo aho batera imiti ya gakondo cyangwa y'ibyatsi ikoreshwa mu buryo bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye cyangwa bagakoramo imiti bayitunganyirije mu nganda hakavamo imiti bakoresha mu bitaro bari kuvura abarwayi.

Ni'akantu gateretseho ibirahure bibiri bikaba birimo imiti bakunda gukoresha bateka icyayi ariko bakaba ari n'imiti bakoresha bivura indwara zigiye zitandukanye.

Ni igipapuro cyerekana uducupa tubiri turimo mu bintu bitatu bitandukanye, akambere kakaba karimo isabune ikozwe mu gikakarubamba, akakabiri kakaba ari amavuta yo kwisinga mu ntoki akozwe mu gikakarubamba, ikindi akaba ari isabune ikozwe mu gikakarubamba.

Ni akameza gateretseho imbuto y'ironji, hakaba hari akandi gacupa kari ku ruhande karimo ibinini bikoreshejwe ironji bivura indwara zigiye zitandukanye.

Ni udukarito dufitemo uducupa twinshi dutandukanye, turimo amavuta abakobwa cyangwa n'abandi bantu bafite ikibazo ku munwa bisiga, bikozwe mu gikakarubamba.

Hari icupa ry'umweru ririho amabara yandikishijwe mu cyatsi hakaba harimo isabune ikozwe mu gikakarubamba, isabune abantu bakoresha mu masaro cyangwa mu rugo mu gihe barimo baramesa mu mutwe.

Ni agacupa k'umweru utambikijeho agapapuro k'iroze kanditseho umuti ukuntu witwa witwa leshi uvura indwara zigiye zitandukanye cyane cyane indwara ya amibe.

Ni ahantu hari ubutaka, hakaba haramezemo imiti bifashisha y'ibyatsi ukoresha mu buryo bwo kuvura bwa gakondo, kandi n'imitigi itandukanye ,nka kapusine bakoresha bavura indwara nyinshi n'ibicurane inkorora mu nda n'ibindi byinshi

Ibi n'hantu hateye imiti y'ibimera cyangwa iya gakondo abantu bifashisha bakora imiti igi itandukanye, rimwe na rimwe bajyana no mu nganda bagakoramo imiti iri mu bwoko bw'ibinini igi itandukanye.

Ni ahantu hari akameza gateretseho kantu k'agasambi, kakaba kariteretseho ibintu by'imiti ya gakondo igiye itandukanye. Iruhande rwayo akaba ari utuntu tw'utubindi bashobora kuba ariho bavangira iyo miti myinshi itandukanye.

Aha ni ahantu umuntu wambaye umupira w'umukara n'umutuku batatugaragarije ufite imiti mu ntoki ziwe ikoreshwa mu buryo bwa gakondo,

Ni amacupa menshi atandukanye akaba ari mu ikarito, akaba ari imiti igiye yakoreshejwe mu gikakarubamba bakaba baravanyemo isabune bakoresha boza abantu mu mutwe ndetse n'ahandi hose.

Ni ahantutu hari abantu bagiye batandukanye, bamwe akaba ari abantu bacuruza imiti ikozwe mu byatsi, bakoresha bavura mu buryo bwa gakondo, bakaba baragiye bayishyira mu macupa menshi atandukanye, kugirango abantu bayigure neza.

Ni udukarito tune duteretse ahantu, tugifite amabara agiye atandukanye, harimo ruje borodo n'umweru, akaba ari imiti ikozwe mu bimera cyangwa mu mbuto zigiye zitandukanye.

Ni agacupa karimo imiti ikozwe mu bimera, mu byatsi cyangwa mu miti ya gakondo bifashisha mu gihe bashaka kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Uducupa tubiri duteretse ahantu, akaba ari imiti irimo ikoreshwa mu gikakarubamba, ikaba ikoreshwa mu buryo bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye, mu buryo bwa gakondo, ariko rimwe na rimwe iratunganywa, bakayikoresha no mu bindi byo kuvura.

Ni ahantu hateye igiti, icyo giti kikaba kiriho imiti y'ibyatsi ikoreshwa mu buvuzi bwa gakondo, ikoreshwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ubu ni ubwoko bw'imiti iba yakozwe mu bimera cyangwa mu miti ya gakondo, ariko bakayicisha mu nganda bayitunganya neza ku buryo bayikoramo ibinini buri muntu wese yashobora gukoresha.

Hano hari amacupa menshi atandukanye, ari mu mabara atandukanye menshi, umuhondo, umweru n'umutuku, rujeborudo, akaba amenshi ariho yakozwe mu gikakarubamba, hariho n'imiti igiye itandukanye myinshi.

Amacupa menshi, arimo imiti ikozwe mu byatsi cyangwa imiti ya gakondo, yifashishwa mu kuvura indwara zigiye zitandukanye, abantu baba bafite.

Hano hakaba hari ameza ateretseho akantu karimo imiti iri mu bwoko bw'ibinini, ikaba yarakozwe mu bimera cyangwa imiti ya gakondo ariko igacishwa mu nganda, ku buryo bayihinduramo gutya kugira ngo buri muntu wese ashobore kuyifata.

Amacupa atatu atandukanye rimwe akaba ari isabune ibindi akaba ari ibyo amavuta n'ibindi, bikozwe mu gikakarubamba akaba ari icyatsi gikunda gukoreshwa abantu benshi bakora amasabune, imiti bigiye bitandukanye bifasha mu buzima bwa buri munsi.

Ni ahantu hari ubutaka buteyemo imiti y'ibyatsi bakoresha mu buryo bwa gakondo bwo kuvura indwara nyinshi zigiye zitandukanye cyangwa bagakoramo imiti yifashishwa yatejwe imbere yaciye mu nganda bavurisha abantu kwa muganga.

Ni imiti y'ibyatsi bakoresha mu kuvura indwara zigiye zitandukanye mu buryo bwa gakondo akaba ari nka tangawizi n'ibindi byifashishwa mu kuvura inkorora n'inzoka n'izindi ndwara zigiye zitandukanye.

Aka abari agakarito karimo imiti, iri mu bwoko bw'ibinini, ikaba yarakozwe mu miti ya gakondo cyangwa ya kinyarwanda, bifashisha bivura indwara zigiye zitandukanye.

Akameza kariho ibyatsi bigiye bitandukanye , abantu bifashisha bakoramo imiti ya gakondo bakoresha mu gihe cyo kuvura indwara zigiye zitandukanye, ndetse bagakuramo rimwe na rimwe bakayijyana mu nganda kugira ngo bavanemo imiti igiye itandukanye itejwe imbere, bakoresha mu bitaro no kwa muganga bavura indwara.

Ni udukarito n'amacupa menshi agiye atandukanye hakaba harimo imiti yakozwe mu byatsi cyangwa mu imiti ya gakondo ikoreshwa mu buryo bw'ubuvuzi, ikozwe nk'ibinini cyangwa imiti y'amazi ivura indwara zigiye zitandukanye.

Ubu ni ubwoko butatu bw'imiti ya gakondo iri mu ducupa dutatu akambere kakaba ari agacupa k'umweru inyuma hakaba hari ibara ry'ubururu, aka kabiri kakaba ari icupa ry'umweru rivanzemo n'amabara y'umutuku, aka gatatu ubururu bwerurutse, hanyuma bikaba ari imiti ikozwe mu bimera ariko igahindurwamo ibinini.

Iri ni ikarito cyangwa ipaki irimo imiti ikozwe mu bimera cyangwa imiti ya gakondo, ariko iba yafashwe igatunganywa n'inganda bakayihinduramo ibinini kugira ngo umuntu wese bizamworohereze kuyifata.

Agacupa k'umweru, katambitseho ibara ry'ubururu, ririho ko harimo amasabune bakoresha cyangwa imiti bakoresha, ikozwe mu miti ya gakondo, bakoresha mu gihe cyo gufura mu mutwe, banakaraba.

Amavaze akozwe mu ibumba agiye atandukanye, bakunda gukoresha bateramo ibyatsi, bateramo ibiti, hano hakaba hari imiti igiye itandukanye nk'igikakarubamba, hakaba harimo teyi n'indi miti myinshi itandukanye.

Ni ahantu hateretse ibikombe birimo ibiti bigiye bitandukanye, bivaho imiti y'ibyatsi bakoresha mu buryo bw'ubuvuzi bwa gakondo cyangwa se rimwe na rimwe igatunganywa mu nganda igahindurwamo ibinini bajyana mu bitaro kuvura abantu.

Udukarito tugiye dutandukanye turimo icyayi gikozwe mu byatsi cyangwa ibibabi by'icyayi bagenda bagatunganya mu nganda bagakuramo amajyane bakoresha bakora icyayi.

Ni ahantu ku gasozi hari hari umurima munini cyane, hakaba hari hari abantu benshi bagiye batandukanye bari baje mu byo i kureba uko batera imiti ndetse n'uko bayitaho, imiti ya gakondo bakoresha mu buryo butandukanye bwo kuvura indwara.

Ni ahantu hateye imiti igiye itandukanye n'iy'ibyatsi yifashisha mu buryo bwa gakondo bwo kuvura imiti igiye itandukanye abantu bakunda kurwara.

Ni akameza gateretseho amacupa atatu afite amabara agiye atandukanye hakaba harimo imiti imbere yakozwe mu byatsi bakoresha mu buryo bwa gakondo, cyangwa mu buryo butejwe imbere bwo kuvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni cyumba akaba icyo cyumba hakaba hari umuntu wicayemo w'umugabo, wambaye ishati y'umweru. Yicaye ahantu afite akantu mu ntoki ziwe, wagira ngo arimo nko kwiga imiti cyangwa arimo gusuzuma ikintu.

Ni imiti yavuye mu byatsi, ariko babanje gucisha mu nganda, bakabanza bakayitunganya neza, ku buryo bazagenda bayishyira mu macupa, igakoreshwa mu bitaro no kwa muganga bavura indwara zigiye zitandukanye.

Aka ni agapaki cyangwa agasashi karimo imiti itandukanye ikoreshwa n'ibimera by'imiti ya gakondo abantu bakoresha mu buryo bwinshi bashaka kwivura cyangwa gukiza uburwayi bwose.

Mu dukarito n'amacupa agiye atandukanye, harimo imiti ikozwe mu bimera, higanjemo igikakarubamba, kirimo imiti, icyayi bigiye bitandukanye.

Ni igipapuro kiriho akajerekani gato karimo umuti ukozwe mu miti ya gakondo y'ibyatsi, akaba ari igikakarubamba bakwifashisha mu gukora imiti igiye itandukanye ya gakondo.

Ibicupa bibiri kamwe kakaba kari mu ibara ry'umuhondo n'umufuniko wa shokora, undi akaba ari ibara ry'umweru ripfundikishije umufuniko w'umutuku. Hakaba harimo amavuta cyangwa isabune yakozwe mu gikakarubamba.

Ahantu hari ibiti biteye, bakuraho imiti bakoresha mu buvuzi bwa gakondo cyangwa bagakuramo imiti batunganya mu nganda, bagakuramo amasabune, imiti ikoreshejwe mu buryo bw'ibinini ndetse n'ibindi byinshi.

Ni ibice bibiri berekana bitandukanye berekana imiti ikiri ibyatsi, imiti bakoresha mu buryo bwa gakondo bw'ubuvuzi, nanone ikindi gice kikaba cyerekana barayikoze neza barayitunganyije bakayishyira mu macupa yabigenewe yo kuyibikamo.

Akaba ari ibinini byakozwe mu miti ya gakondo y'ibyatsi ariko ikaba ibanza gucishwa mu nganda ari ibyatsi, hanyuma bakaza gukuramo ibinini byifashishwa mu buvuzi butejwe imbere mu bitaro.

Ni ahantu hateye imiti igiye itandukanye y'ibyatsi bakoresha mu buryo bwa gakondo, bwo kuvura imiti itandukanye, cyangwa bakanayitunganya mu nganda, ikavamo imiti ikoreshwa mu bitaro, iri mu buryo bw'ibinini yo kuvura abantu.

Ni ahantu hateye ibiti hakaba hateyeho, kaba hariho amababi n'izindi mbuto zigiye zitandukanye, bakoresha mu gihe bashaka gukora imiti itandukanye ya gakondo.

Ni udukarito turimo imiti cyangwa ibikoresho bakoresha byakozwe, mu miti y'ibyatsi cyangwa ya gakondo, ifashisha abavura indwara zigiye zitandukanye nk'iz'uruhu no mu mu mubiri mu imbere.

Ni ahantu hari akameza gateretseho imiti ya gakondo igiye itandukanye, bakoresha bifashisha mu buvuzi, buvura indwara zigiye zitandukanye.

Ni uducupa twinshi duteretse ahantu, tw'umweru, haba harimo ibintu bimeze nk'amavuta birimo, bakoresha benshi basiga ku minwa, bakunda kwita rabero, kandi bikaba bikozwe mu gikakarubamba.

Ni ahantu mu byatsi cyangwa ku butaka hateye imiti ya gakondo bakunda gukoresha bavura indwara zigiye zitandukanye, kwa muganga cyangwa bagakoramo imiti bakoresha kwa muganga iri mu buryo bw'ibinini.